Ni byiza ko abana bitabwaho mu mibereho yabo ya buri munsi bakabona amata yo kunywa kuko abafasha gukura neza haba mu gihagararo ndetse no mu bitekerezo.

Imibereho ndetse n'ubuzima bw'abana. Ni kimwe mu kintu kigomba gushyirwa imbere kandi kikanitabwaho, ku buryo buhambaye cyane. Kuko iyo atitaweho bimugirira ingaruka mu mikurire ndetse n'imibereho ye ya buri munsi.

Amazi meza asukuye y'urubogobogo. Ni kimwe mu kintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu kandi kiba gikenewe cyane. Rero ni byiza kuyabungabunga kugira ngo hataba hagira uwayangiza.

Mu turere tw'u Rwanda tumwe na tumwe, akenshi usangamo amazi yifashishwa n'abaturage, bayabona mu buryo bwo gupompa, rero ni byiza kuyasigasira kugira ngo hatagira uyangiza.

Kubera iterambere ndetse n'ibikorwaremezo bikomeje kugenda byiyongera mu gihugu, ahantu hose usanga hari amazi meza kandi asukuye. Ibi ngibi ni byiza kuyabungabunga kuko atuma ubaho neza.

Buri hantu hose ushobora kuba wagenda mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi henshi na henshi usanga higanje kuba bafite amazi yo ku mihanda, ayo umuntu ashobora gukaraba mu gihe ayabonye yangwase cyangwa yayakoresha ikindi gikorwa, rero ibyo bigaragaza iterambere.

Muri iki gihe, ni bibi cyane gukoresha amazi y'ibidendezi ndetse n'ibiziba, cyane cyane ay'umugezi. Kuko bitera indwara zitandukanye harimo nka diyale, ndetse n'inzoka, zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu.

Bibatera indwara z'ibyorezo zitandukanye. Ni byiza ko abajya gusuzuma abaturage bambara udupfukamunwa ndetse n'ibindi bikoresho bibarinda kuba bakozanyaho imibiri n'abo basuzuma kugira ngo nabo bataba bakwandura.

Muri iki gihe ndetse n'iminsi mike ishize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo bikigoye cyane kubona amazi kuko usanga uduce hafi ya twose two mu gihugu dufite amazi kandi meza asukuye yifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni byiza cyane mu rugo i wawe kuba wagira isuku ndetse ukayitoza n'umuryango wawe wose hamwe na kandagira ukarabe kuko mu gihe uvuye kuri tuwareti usukura intoki zawe neza ntiwininjirane umwanda mu nzu.

Iterambere rirakomeje cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, aho abaturage bashobora kuba babarwa nk'abakennye ndetse n'abakire mu kugira uruhare mu kuvurwa kandi ku giciro kitabahenze cyane kandi na neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe gishize hateye icyorezo cya Marburg, cyatatse abaturage bamwe na bamwe bakakirwara, ariko imigambi n'ingamba zikomeye cyane zashyizweho maze turacyirinda, turanagihashya.

Mu gihugu cy'u Rwanda, abana batoya b'abanyeshuri batangira gutozwa kugira isuku bakiri bato cyane, aho babyigishwa, mu mashuri, mu ngo zabo ndetse n'ahandi hantu henshi bagenda banyura.

iki gihe gihugu cy'u Rwanda abagore na bo ntibasigaye inyuma mu iterambere, ubu bagenda bafashwa mu mishinga itandukanye ndetse no mu buvuzi, akenshi na kenshi bitabwaho cyane, nko mu bajyanama b'ubuzima bagiramo imyanya ndetse n'ahandi.

Ni byiza ko mu gihe mu gihugu hagaragaye ikibazo runaka cyangwa se mu karere ko abayobozi baterana bagafata umwanzuro ndetse n'igisubizo cyiza kiboneye kigomba gufasha abaturage.

Abanyabuzima bo mu mudugudu, ni bamwe mu bantu bafite inshingano zo kuba bapima imikurire y'abana kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, ufite ikibazo bamurepotinga mu nzego zo hejuru, bakamufasha mu bijyanye n'imirire.

Abana ni bamwe mu bantu bahora bitabwaho n'abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima, umunsi ku munsi kugira ngo basuzume imikurire yabo, barebe ikigomba kongerwa ku mirire ndetse n'ikigomba kugabanywa.

Muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo ndetse no ku Isi hose, umuryango ushinzwe gufasha abana n'abagore ukomeza kubafasha mu buryo bwihuse cyane, aho babona inkunga zabugenewe kugira ngo imibereho yabo irusheho kuba myiza.

Kuri ino si dutuye mu bihugu byose biriho nk'u Rwanda, u Burundi ndetse n'ahandi hose, hari imiryango mpuzamahanga yagiye ishingwa igamije gufasha abaturage ku bijyanye n'ubuzima, rero nka wefupu ibaha ku bijyanye n'ibiryo.

Ikigo cya UNICEF, ni kimwe mu bizwiho kugira uruhare mu kubungabunga ndetse no gufasha ubuzima bw'abana, rero batanga inama nyinshi cyane mu mibereho ya buri munsi.

Ni byiza cyane muri iki gihe buri munyarwanda wese arishimye kandi ashimishijwe n'igihugu cye, kuko ibikorwa remezo byagiye bimugeraho nk'urugero, nk'amazi usanga ku muhanda ndetse n'ahandi hantu hose mu ngo z'abantu ahari.

Ku isi hose hari umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibijyanye n'ubuzima, rero wita ku nshingano zawo nko mu kurinda abaturage ku kigero cyiza cyane, ni byiza rero kuko udufasha ukagira uruhare runini.

Kwa muganga cyangwa se aho bavurira, akenshi na kenshi usanga hari intebe abarwayi bicaraho bategereje kwakirwa, rero kugira ngo baruhuke bataba bahagarara bakaba bagira iserere bakikubita hasi bagomba guhabwa intebe.

Amariba bavomaho amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda ku baturage. Ni byiza ko tuyasigasira kugira ngo ataba yakwangizwa, kuko afite uruhare runini cyane.

Mu gihe mugo nko kuri towarete cyangwa se ahandi hantu aho ari ho hose, ni byiza ko hagaragara igikoresho kizwi nka kandagira ukarabe gishobora kuba cyakwifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ikigo cy'isi gishinzwe ubuzima, kenshi na kenshi gishishikariza ibihugu kwirinda indwara zimwe na zimwe, harimo nk'iz'ibyorezo ndetse n'izindi zataka abaturage zikaba zabahitanira ubuzima.

Abana ni bamwe mu bantu bakwiye kwitabwaho cyane, bagahabwa imiti ndetse n'inyingo zabugenewe kandi hadasigaye no kuba babona ibiryo birimo intungamubiri zose n'amata.

Mu gihugu cy'u Rwanda abayobozi bamwe na bamwe bagenda bahamagara abandi babungirije, bakorera mu midugudu, mu mirenge ndetse no mu tugari kugira ngo bafatire umwanzuro hamwe ku bibazo biba byagiye bigaragara.

Ni byiza ko abaganga ndetse n'abandi bantu bashinzwe ibijyanye n'ubuzima, basanga abaturage mu ngo zabo bakabapima indwara zidakira kugira ngo babamenyeshe uko imibiri yabo ihagaze kuko bamwe na bamwe usanga bazifite batabizi kandi badateganya no kujya kwisuzumisha.

Mu nama zikorerwa abaturage ndetse n'abandi bantu akenshi na kenshi usanga ziyobowe n'abayobozi bo ku nzego z'imirenge bazanye na polisi kugira ngo baze kuganira mu mpande izo arizo zose barebe n'ikibazo cyaba kiri kugenda kigaragara maze gikemuke.

Ibikorwaremezo bikomeje kugenda bitera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urugero nk'amazi, amashanyarazi ndetse n'ibindi kuko ugenda ubisanga muri buri gace kose, aho usanga hari afite isuku ndetse n'ateye imbere cyane.

Ni byiza ko abayobozi bahuriza abaturage hamwe, bakabagira inama ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi ndetse n'ingaruka bashobora guhura na zo mu gihe baba badakurikije amabwiriza bagenda bahabwa.

Iyo ugiye kwaka serivisi ahantu hatandukanye nko kwa muganga kuri reception, ni byiza ko winjira ukagenda ugatanga imyirondoro yawe bakareba niba nawe koko warishyuye mituweli kugira ngo ubone uko wivuza.

Mu gihugu cy'u Rwanda akenshi na kenshi usanga haba ibikorwa byo kwizihiza iterambere ry'ubuvuzi muri buri duce twose, rero bwagiye butera imbere cyane aho buri munyarwanda wese abona uburenganzira bwo kwivuza.

Mu nama z'abayobozi bamwe na bamwe, ni byiza ko buri muntu ugenda umushyira urupapuro cyangwa se akandi kantu kagaragaza inshingano ashinzwe ndetse n'icyakora kugira ngo hatagira uwitiranywa n'undi.

Abaturage bamwe na bamwe bagiye bafata amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima cyangwa no kwirinda indwara runaka, usanga bahabwa ibikoresho by'ishimwe ndetse no kuba bagira uruhare runini mu kubungabunga ikwirakwira ry'ibyo bibazo.

Mu nama zihuza abaturage, akenshi na kenshi n'abayobozi. Bahurira ahantu mu masare yabugenewe afite isuku, bakiga ndetse bakanakemura ibibazo bimwe na bimwe bigenda bigaragara mu baturage.

Mu gihugu cy'u Rwanda iterambere rikomeje kwihuta mu buryo utapfa kumenya, kuko nk'ubu ngubu usanga muri buri gaturage bafite amazi ku muhanda kandi meza abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Muri ino minsi abana ni ngombwa kwitabwaho cyane kuko iyo batitaweho bituma bashobora kuba bahura n'ibibazo byi'igwingira, rero bigira ingaruka mu iterambere ry'Igihugu kuko nta bahanga kigira mu minsi iri imbere.

Mu gihe cy'inama cyangwa se amahugurwa, akenshi na kenshi usanga abaturage cyangwa abitabiriye bicaye muri sare, imbere hari umuyobozi uri kubagezaho ijambo. Rero ni byiza kwitwaza agakayi ukandika ingingo z'ingenzi zavugiwemo.

Mu minsi yatambutse mu gihugu cy'u Rwanda, hagaragaraga ikibazo cya bwake ku kigero kiri hejuru cyane, rero uko ibihe bigenda bishira kigenda kigabanuka ku bana batoya, aho bagenda bahabwa za shishakibondo ndetse n'ibindi biribwa bibafasha mu kongera imikurire yabo.

Inama zimwe na zimwe zihuza abayobozi ndetse n'abaturage muri rusange, akenshi na kenshi usanga zigamije kugufata imyanzuro yababarinda ibibazo bimwe na bimwe bigenda biboneka mu baturage.

Igihugu cy'u Rwanda muri buri Turere twose, Imirenge ndetse n'Utugari n'Imidugudu uhasanga abanyabuzima bagira uruhare runini cyane mu kwita ku mibereho ndetse n'ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Kwa muganga, ni hamwe mu hantu akenshi na kenshi hakunze gutanga inama nziza ku baturage ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi, aho bababwira ibiryo byiza bagakwiye kuba barya ndetse n'uko bagakwiye kuba babifata kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Iyo ugiye kwa muganga, cyane cyane aho bakiriye abarwayi, akenshi na kenshi uhasanga abantu bafite indwara zitandukanye, rero baba bahahuriye baje gukemura ibibazo bagiye bafite kugira ngo bitabweho neza.

Ibikorwaremezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bikomeje gutera imbere cyane, aho mu baturage ndetse n'ahandi hose usanga amazi ku mihanda mu ngo z'abantu rero biroroshye cyane kuba wayabona.

Amazi akenshi na kenshi usanga ari mu biturage cyangwa se ku muhanda azwi nka pompe, usanga abaturage bavomaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, rero ni byiza kuyabungabunga kugira ngo hatagira uyangiza.

Mu gihe musoje amahugurwa cyangwa se inama, ni byiza ko mwikusanya nk'abayobozi ndetse n'abo muyoboye mugafata ifoto nziza cyane y'urwibutso, kuko igira uruhare runini cyane mu mibereho yawe ya buri munsi.

Mu gihugu cy'u Rwanda muri buri karere, mu murenge, mu kagari ndetse no mu mudugudu uhasanga abantu bazwi ku izina ry'abajyanama b'ubuzima bafasha abaturage mu gusobanukirwa imibereho myiza.

Ikigo cya Yunisefu gifasha abana bavuka mu miryango itishoboye kuba babona uburezi ndetse n'ibindi bikorwa, rero ni byiza cyane kuko abana biga neza kandi bakanakurikirana amasomo yabo mu buryo bwiza.

Mu gihugu cy'u Rwanda kenshi na kenshi, umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku isha, ibikorwaremezo bigenda byiyongera bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo abaturage bagenda basiga ubuzima bagabanuke.

Muri iki gihe iterambere ry'abagore rikomeje kwitabwaho cyane, aho abaturuka mu miryango itifashije bahabwa ingoboka y'amafaranga abafasha kuba babona imirire ndetse n'imibereho myiza yabo n'abana babo.

Mu gihugu cy'u Rwanda muri buri gace kose hagiye hari amazi meza, aho umuturage wese ashobora kwivomera igihe abishakiye kandi akaba yanakoza ibikoresho bitandukanye.

Iterambere ndetse n'ibikorwa remezo, bikomeje kugenda byiyongera cyane mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda, aho usanga inyubako zimwe na zimwe z'ubuvuzi zimeze neza, kandi abaturage bose bivuza neza nta guhendwa.

Mbere yo guha abana ibyo kurya cyangwa se bavuye kuri tuwarete, ni byiza ko babanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo birinde kwandura indwara ziterwa n'umwanda.

Iyo ugiye mu mavuriro amwe n'amwe yo mu Rwanda ndetse amenshi usanga harimo ibitanda biba bitangaje, aho umwanya umwe gihinduka intebe undi kikaba cyakorwamo nyine aho kuryama ndetse n'ubundi.

Amazi yo mu bigega aturuka ku mabati aba yazanywe n'imvura, kuyanywa cyangwa kuyakoresha ntabwo ari byiza kubera ko aba arimo inzoka zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu cyangwa bikaba byamutera izindi ndwara runaka.

Abanyeshuri ni bamwe mu bantu muri rusange barangwa n'isuku aho bari hose kuko babitozwa n'abarimu babigisha, bakabereka uko bagakwiriye kubikora.

Mu Gihugu cy'u Rwanda. Amazi akomeje gukwirakwira ahantu aho ari ho hose. Kuko usanga haba mu bigo by'amashuri, ku muhanda ndetse no mu ngo z'abantu hose aboneka ku buryo butagoranye.

Abana ndetse n'ababyeyi batwite n'ababyaye bagomba kwitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo bamenye uko imikurire ndetse n'imibereho yabo iba ihagaze.

Abanyabuzima ni abantu b'ingenzi cyane mu mibereho y'ubuzima bw'abaturage b'abanyarwanda, kubera ko babafasha kubasuzuma indwara zitandukanye ndetse bakabaha n'imiti, byaba ari ngombwa bakabohereza no ku bitaro bikuru.

Mu gihe mwagiye mu nama cyangwa se amahugurwa, ni byiza ko mwicara hamwe kugira ngo mube muganira ndetse munatetege amatwi ibyo abayobozi babateganirije kubagezaho.

Mu biganiro bimwe na bimwe cyangwa mu nama ni byiza cyane kuba mufite amazi munywa ndetse abayobozi na bo bicaye imbere, baganiriza abo bayoboye, bababwira ibibazo, babafasha kubikemura.

Mu gihe wohereje umwana wawe kuvoma cyangwa kukuzanira amazi ntabwo ari byiza umuha ikirerekani, ikidobo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kimurusha imbaraga kuko bishobora kumwangiza bigatuma agwingira.

Amwe mu mavomero cyangwa se aho abaturage babona amazi bifashishije uburyo bwa pompe, hari ahantu henshi mu gihugu akenshi na kenshi usanga nyine bataragezweho n'aya WASAC, rero ni byiza kuyafata neza.

Ni byiza cyane ko umujyanama uwo ariwe wese wo mu gihugu cy'u Rwanda, agomba gusura umubyeyi utwite agapima ubuzima bwe ari kumwe n'umugabo we, akabaganiriza uko bakagombye kwitwara mu gufashanya imirimo yo mu rugo.

Ku mashuri ndetse n'ahandi hantu hose hahurira abana benshi ni byiza kuhashyira amazi na za kandagira ukarabe kugira ngo birinde umwanda ndetse n'izindi ndwara zose zishobora kuba zaterwa nawo.

Mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hamwe na hamwe kuri ino si, usanga iterambere ry'umugore, umuryango muri rusange, rikomeje kwihuta cyane, aho usanga abantu bose bafashanya kandi banashyigikiranye muri rusange.

Abayobozi iyo bahuriye mu nama kenshi na kenshi usanga bagiye kuganira ku bintu bitandukanye bigamije iterambere, rero ni byiza ko baba bafite hafi aho amazi yo kunywa, ku buryo umuntu yayaruhukiraho mu gihe yumva ari ngombwa.

Ntago ari byiza kuba wakoresha cyangwa se kunywa amazi yo mu bigega, kuko usanga ari mabi haba harimo inzoka zishobora kugutera indwara zitandukanye bikaba byakwangiza ubuzima bwawe,

Mu bijyanye n'iterambere ry'ubuvuzi bugenda bukomeza kwihuta, aho abaturage bagenda bitabwaho cyane begerezwa ibikorwa remezo bigenda bibafasha mu kuborohereza kuba bavurwa indwara zitandukanye.

Mu gihe cy'ibyorezo ni byiza gukingira duhereye ku bana kuko akenshi na kenshi nibo bagenda babikwirakwiza bari gukina imikino itandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bahuriramo nko kwiga, gusenga n'ahandi.

Mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyabuzima ni bamwe mu bantu bagira uruhare runini mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi kuko babegereza ubuvuzi ndetse bakanabafasha no gukurikirana uko imibereho yabo imeze.

Ni byiza ko ku mashuri, amasoko, n'ahandi hantu hose hahurirwa n'abantu benshi, kuhashyira za kandagira ukarabe zifashishwa mu gukaraba birinda umwanda ndetse bagira n'isuku mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Mu gihugu cy'urwanda iterambere rirakataje aho ahantu henshi na henshi usanga hari amazi ya robine, aho atari haba hari amapompe yifashishwa n'abantu bose kandi ku buryo bw'ubuntu.

Iterambere mu gihugu cy'u Rwanda rikomeje kugera ku banyarwanda bose, aho ahantu henshi usanga hari amazi meza yo gukaraba kandi y'urubogobo. Rero ni byiza gukomeza gusigasira ibyo bikorwa remezo.

Mu gihe hagaragaye icyorezo runaka gishobora kuba cyatera cyangwa se cyakwataka abaturage giturutse mu myanya ijyanye n'ubuhumekero, ni byiza gushishikariza buri muntu wese kwambara agapfukamunwa kugira ngo yirinde icyo cyago.

Mu minsi imwe n'imwe, usanga nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, asura uduce tumwe na tumwe, abaturage bakaba bitabiriye cyane bafite n'amabendera, kugira ngo bagaragaze urukundo bakunda igihugu cyabo.

Kuba mwakwicara hamwe n'umuryango mukaba mwaganira ku kibazo cyangwa se imbogamizi yaba igaragara, usanga ari ikintu cyiza cyane, kuko mufatira hamwe imyanzuro ndetse n'ibintu bigamije guteza imbere urugo rwanyu.

Ubwonko bw'umuntu ni kimwe mu gice cy'umubiri kigize ubuzima gifite uruhare runini cyane mu mitekerereze ndetse n'ibikorwa bya buri munsi tugenda dukora, rero ni byiza kubyitaho kugira ngo hatagira ikibazo.

Ibikorwa bimwe na bimwe byo guhohotera umwana nko kumukubita, kuba wamutwika intoki ndetse n'ibindi byose bibangamira ubuzima bwe bwa buri munsi nko kuba yaterwa na deperesiyo cyangwa no gutsindwa mu ishuri.

Umuntu uwo ari we wese yaba arwaye indwara runaka. Ni byiza kwegerwa, akabona inshuti n'abavandimwe bamufasha bakamugira inama, kugira ngo na we atiheba, bikaba byamuviramo kuba yapfa, cyangwa se kuba yatekereza kwiyahura.

Ni byiza cyane kuganiriza abaturage ndetse n'abandi bantu bose, ku bijyanye n'ubwonko cyangwa se ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kugira ngo nibabona umuntu waba afite ikibazo bamufasha kuba bamushyikiriza ubuyobozi.

Ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu kimenyetso gishobora kuranga umuntu cyangwa se kikaba cyamutandukanya n'undi, bitewe n'ibyo avuga, ibyo akora, ndetse n'uburyo ashobora kuba yigendera, rero ni byiza ko witwararika muri buri kimwe cyose.

Ubuvuzi buzwi mu buryo bwa terapi bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no ku isi yose urugero nka hayidoroterapi bukoreshwa mu buryo bw'amazi, mu gukura imyanda mu mubiri rero ni bwiza cyane kandi burasukuye.

Muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni byiza ko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ubwo ni abarwayi, bagomba kwitabwaho bakagirirwa isuku ndetse bakabona n'ibigo bajyanwamo bibafasha kuba bakira.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari ikigo gishinzwe ku bijyanye no kugira inama ndetse no kuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, rero ni ngombwa ko babona ababegera kugira ngo babamare ihungabana.

Abantu twita abasazi cyangwa se abarwayi bo mu mutwe, ni ngombwa ngo tubiteho tubaganirize, twabona bidakunda tukaba twabashyikiriza ibigo bishinzwe kubavura ari byo nka karayesi.

Ni byiza cyane buri muturarwanda wese ko yagana kwa muganga akisuzumisha kugira ngo amenye uko ubuzima bwe bwo mu mutwe buhagaze, bitazamugiraho ikibazo byamubyarira n'urupfu.

Ni byiza cyane kuba wakwegera umuntu uwo ari we wese afite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo umuganirize kandi unamubaze impamvu ibimutera, bituma aruhuka kuko aba abonye ko atari wenyine.

Ni byiza ko buri muntu wese yitondera amagambo avuga ndetse n'ibyo akora, kuko bagusuzuma bagendeye ku byo ugaragaza, rero bishobora gutuma bagushyira mu cyiciro runaka utarimo.

Muri sosiyete cyangwa se mu buzima rusange tubamo, akenshi na kenshi dukunda guhura n'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe tubita abasazi, rero ntago ari byiza kubita ayo mazina, tugomba kubita uko bitwa byaba ngombwa twabona bagiye guteza ikibazo tukabohereza mu bigo bibashinzwe.

Abarwayi bo mu mutwe, ni byiza ko byitabwaho ahantu bara aho ari ho hose kandi bagacungwa kugira ngo bataba bateza ikibazo mu bandi baturage ndetse byaba ngombwa bakajyanwa no mu bigo bashinzwe kubamo.

Igihe habaye inama runaka, ni byiza ko mwese mwicara mugatuza, mugatega amatwi umuyobozi, ari kubagezaho ikiganiro runaka, kuko iyo mushakuje bituma mutumvikana mwese, kandi ntibitange n'umwanzuro uboneye.

Mysol, ni bamwe mu bantu bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'Abanyarwanda, kubera ko babaha umuriro wifashisha imirasire, ubaha amatara ndetse n'amatereviziyo n'amaradiyo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga mu buryo bwihuse.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane aho ahantu ugiye hose ugenda ubona imiti ishobora kuba yakuvura indwara zitandukanye kandi bitaguhenze cyane. Rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biroroshye mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Abarwayi bo mu mutwe ni bamwe mu bantu bakunda kugaragara muri sosiyete akenshi na kenshi bashobora guteza ibyago nko kwica bagenzi babo cyangwa kubakomeretsa, rero mu gihe yaba ateje imvururu ni byiza kuba utanga amakuru ku nzego z'umutekano.

Mu gikorwa cy'umuganda abaturage bose bateranira hamwe bagahura bagatera ibiti bishobora kwifashishwa mu gutanga imiti cyangwa se mu guforoma amajaride meza cyane umuntu yaruhukiramo.

Rbc ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima; rero gifite imikoranire myiza cyane n'abaturage; kuko bagenda barushaho kubegereza ubuvuzi buteye imbere kandi bwihuse nta gutinda cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda hamwe na hamwe ariko ni henshi cyane, usanga biga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Bakagaraza ibimenyetso umuntu aba afite kugira ngo ataba yateza ibibazo muri sosiyete bakamubona hakiri kare.

Muri iki gihe, cyangwa se no mu kindi gihe. Abantu bazwiho gutunga ibisatsi byinshi bizwi nk'amaderede, akenshi usanga bafatwa nk'abantu b'abanywa urumogi, cyangwa se abasinzi. Kuko atari byiza. Rero ni bibi kuba wabyishyiho, ukiri urubyiruko.

Kubona umuntu agenda ntabwo bivuze ko afite ubuzima bwuzuye buzira umuze, rero ni byiza ko mugihe ushobora kuba waba ufite ikibazo kujya kwisuzumisha ubuzima bwawe bwo mu mutwe kugira ngo umenye uko uhagaze.

Ubuzima bwiza buzira umuze ntibivuze kubabutambuka neza, cyangwa se kubukora ibintu bikaguhira ahubwo ni ukuba ufite ibitekerezo byiza cyane bishobora kuba byakubaka abandi muri rusange.

Abana bato ni bamwe mu bantu bakwiriye kwitabwaho bakambara neza, bakarya neza ndetse bakabona n'ishuri kuko iyo bafashwe nabi bibagiraho ingaruka mu mikurire yabo.

Ubuvuzi bwo mu mutwe bwagiye butera imbere cyane kuko byagiye bigaragara ko abantu benshi bafite ibibazo bagenda bihererana. Rero iyo yicaye akabikuganiriza, bibasha gukemuka kandi akamera neza.

Bamwe mu bayobozi bagenda bayobora ibigo nderabuzima, usanga ari abantu b'intangarugero cyane, kubera ko bakora akazi kabo bagakunze, bagashyizeho umutima kandi nta no gutegatega mu gihe bari gukora.

Abana ni bamwe mu bantu bakwiriye kwitabwaho ndetse no kwigisha kuba bakorera isuku mu kanwa kabo bakiri bato, kuko iyo batabitangiye hakiri kare bituma bagira umwanda kandi bakarwara n'indwara z'amenyo zitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda muri buri turere twose uburezi bukomeje gutera imbere cyane ndetse no kwiyongera ku gipimo kiri hejuru cyane, aho usanga abana bose bagaragara mu mashuri kandi bagafatira n'ibyo kurya aho biga.

Mu gihe mwagiye mu nama cyangwa se mu mahugurwa runaka, ni byiza ko mwese iyo bibaye ngombwa mwiyegeranya mukaba mwafata ifoto y'urwibutso kugira ngo uwabibabaza mwese mube mwamwereka.

Niba ugiye kuvura umurwayi urwaye amenyo ugiye nko kuyakura ni byiza ko wambara indorerwamo zireba neza kandi zikanatubura uri kureba kugira ngo utaba wamukomeretsa cyangwa wamwangiriza ishinya yiwe kuko bigira ingaruka.

Mu kuvura umuntu cyangwa se umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, ni byiza ko ugomba kumutera ikinya kugira ngo niba ugiye kurikuramo ataza kubabara cyangwa bitaba byamugiraho izindi ngaruka izo arizo zose.

Ubuvuzi bw'amenyo, ni kimwe mu gikorwa cyigwa n'abantu b'abahanga cyane, bazi ubwenge kugirango bazabikore neza kandi n'ubushishozi, batazagira ubuzima bw'umuntu bangiza.

Abana ni bamwe mu bantu bakwiriye kwitabwaho cyane mu bijyanye n'inkingo ndetse n'ibinini, bakabona ibya vitamini ndetse n'ibitonyanga bibafasha mu mikurire ndetse no kugenzura ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bukomeje kugenda butera imbere cyane, aho ibikoresho byinshi byifashishwa byagiye bihagera kugira ngo hatazagira uwo byaba byabangamira mu gihe yaba yavuwe nabi.

Muri ino minsi ndetse ahantu hose, ubuvuzi bw'amenyo bukomeje kugenda butera imbere, aho mu gihe iyo urwaye amenyo bazana imashini zishobora kuba zakwambika andi menyo cyangwa se zagorora amenyo yawe agasubira ku murongo neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu mavuriro amwe n'amwe ugenda usanga ubuvuzi bw'amenyo bwaragiye butera imbere, aho batakibikora mu buryo bwa kera, ubu ngubu hari imashini ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigufashamo kandi bitagoranye.

Igihe uri kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubuvuzi butandukanye, ni byiza ko ubazanira ibikoresho bijya kumera nk'umuntu bari kuvura, ku buryo nyine bigaragara neza kandi bigasobanuka.

Ubuvuzi bw'amenyo bukomeje gutera imbere cyane. Aho bagushyiraho imashini igafotora mu mubiri mo imbere, ikareba aho ikibazo cyaba kiri kugira ngo gikemurwe mu buryo butagoranye.

Ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu cy'u Rwanda bukomeje gutera imbere cyane. Mu gihe ugiye kumukura ni ngombwa ko utegura ibikoresho byabugenewe kugira ngo bibe biri hafi aho ngaro.

Ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bukomeje gutera imbere cyane aho umurwayi uko yaba ameze kose yitabwaho kandi byihuse, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byarabonetse byinshi cyane byihutisha ako kazi.

Umunsi ku wundi abaganga ni bamwe mu bantu b'ingenzi dukeneye ndetse tunafite kuri ino si, kuko bahora basuzuma bashaka gukemura ibibazo nk'ibyorezo ndetse n'indwara zimwe na zimwe zikaze ziba zatatse igihugu.

Uburyo bwo koza mu kanwa bwiza cyane ni ukuborosa ukoresheje uburoso ndetse na korogati nziza. Rero kubitoza abana bakiri bato biba byiza cyane kuko bakura bagira isuku.

Ni byiza cyane kuba kwisuzumisha indwara mu gihe runaka, cyane cyane iyo hateye icyorezo bakabatumiza, twagakwiriye kujya twitabira twese kugira ngo turinde kugikwirakwiza mu buryo bwihuse.

Ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bukomeje kugenda butera imbere, aho hari imashini, ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe muri icyo gikorwa cyo gukura amenyo.

Kuvura amenyo ni kimwe mu gikorwa kigorana cyane kandi n'abaganga babikora ugasanga babizobereyemo, rero bikomeje gutera imbere cyane, imashini nyinshi zaraje zifashishwa mu koroshya iki gikorwa.

Niba waba ufite ikibazo cy'amenyo, ni byiza kugana kwa muganga bakaba bakuvura neza kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko abaganga ba gakondo bashobora kukwangiriza ubuzima bwawe.

Korogati nziza cyane uyifashishije n'uburoso bukomeye, ni bimwe mu bintu by'ingenzi bifasha mu gusukura mu kanwa kawe, aho amenyo yawe yererana akamera nk'inyange, bikakurinda umwuka mubi mu gihe uri kuganira n'abandi, bakaba bakwinuba.

Ubuvuzi bw'amenyo ni imwe muri sisitemu mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ku rwego rwo hejuru kuko usanga hari abaganga babizobereyemo ndetse n'ibikoresho byiza cyane byifashishwa bitagira ingaruka.

Imiti imwe n'imwe igira uruhare mu kuvura amenyo, usanga idahenze cyane urugero nk'amakorogati arahari meza, cyane yoza amenyo kandi agacya ku buryo bwiza nawe washima.

Muri iki gihe iterambere rikomeje kugenda ryiyongera aho imiti myiza cyane ivura amenyo cyangwa ikanayoza akaba yahinduka umweru, igenda iboneka muri buri duce twose. Ni byiza rero kuyasukura neza cyane.

Mu gihe uri kuvura umuntu runaka. Cyane cyane iyo ari indwara isaba kumuganiriza. Ni byiza cyane ko wisanzura ukifungura mukaganira neza kugira ngo mukemure ikibazo.

Abantu bageze mu zabukuru ndetse n'abana, ni bamwe mu bantu bagomba kwitabwaho cyane mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi kuko iyo batakurikiranywe bashobora kugira ihungabana mu buzima bwabo.

Abasaza, abakecuru ndetse n'abandi bantu bose bageze mu zabukuru, ni byiza ko bahurira ahantu hamwe bakitabwaho, ndetse na bo ubwabo bakaba bagirana ibiganiro hagati yabo kugira ngo bibutsanye iminsi yabo ya kera.

Ku bantu bakuze muri make bafite imyaka myinshi ni byiza cyane ko bakora siporo zigorora imitsi yabo kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri bityo bikabarinda indwara zitandukanye zirimo nk'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Mu bukwe cyangwa ugushyingira no gushyingirwa, ni bimwe mu birori akenshi na kenshi bishimisha ababyeyi, haba ku bo kumukobwa ndetse nabo ku muhungu, rero ni byiza gushimisha ababyeyi bawe.

Bamwe mu bantu bageze mu za bukuru akenshi na kenshi, usanga ari inzobere mu gukoresha imiti ikoreshwa ikomoka ku bimera kuko bazi uko itunganywa kugira ngo imere neza kandi ivure indwara zitandukanye.

Mu gihe ugeze mu za bukuru, ni byiza ko uhora wisuzumisha bakareba uko umubiri wawe uhagaze ndetse n'indwara ushobora kuba waratatswe na zo, rero kuko iyo utabikoze bishobora kukugiraho ingaruka mbi.

Siporo ni nziza cyane ku buzima bwa buri muntu wese ukeneye kuba wayikora, kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri, bigatuma imitsi igororoka ndetse no ku kurinda indwara zitandukanye.

Abasaza ndetse n'abandi bantu bageze mu zabukuru, ni bamwe mu bantu bakwiye kwitabwaho cyane, bagafatira imiti ku gihe mu gihe baba bafite ikibazo cyangwa indwara runaka. Kuko iyo batabikoze uku, bishobora gutuma bahatakariza ubuzima.

Uburwayi nka pararize cyangwa se amaguru, ni bimwe mu bintu bishobora gutuma wibagirwa kugenda, rero kugirango wimenyereze bagomba kuguha akuma kagufasha kuba watemberaho gake gake kugirango ugende ugororoka neza.

Mu gihe ugiye kuvura umurwayi, nk'ubuzima bwo mu mutwe se cyangwa izindi ndwara izo arizo zose, ni byiza ko ubanza kumuganiriza, ukamuturisha kugira ngo akwisanzureho, akubwire ikibazo afite.

Icyayi ni bimwe mu binyobwa bikundwa cyane na buri muntu uwo ari we wese ku isi yose. Rero ababikora nk'umwuga babihinga usanga ari akazi kabatunze ka buri munsi kuko bibinjiriza.

Ku bantu bageze mu za bukuru ni byiza ko bajya kwisuzumisha indwara zitandukanye zidakira harimo nk'umuvuduko, umutima ndetse n'izindi zose, kuko iyo batabirebye hakiri kare bishobora kubagiraho ingaruka mu mibereho yabo.

Abantu bamwe na bamwe bagenda bivura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera, kuko bazi akamaro kayo mu bijyanye no kuba yakiza indwara ndetse no kuba nta ngaruka nyinshi bishobora guteza ku buzima bw'umuntu wabikoresheje.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda, hari abaganga cyangwa se abavuzi n'abaforomo bakora akazi kabo mu buryo bwa kinyamwuga, rero iyo ufite ikibazo bagufasha mu buryo bwihuse kandi neza.

Mu gihe umuganga ari guha umurwayi ibinini cyangwa se indi miti yose; ni ngombwa kumusobanura uko ayifata isaha ku isaha; kugira ngo atabyangiza kuko abyishe bishobora kumugiraho ingaruka.

Kugira ngo upime uko umutima w'umuntu utera ndetse n'umuvuduko wawo, ni byiza ko wifashisha igikoresho ushyiraho, ugashyira no mu matwi ukumva uko ibintu bimeze neza kandi mu buryo bwihuse.

Igihugu cy'u Rwanda mu ntara zose, uturere, imirenge ndetse n'imidugudu, kudaheza abafite ubumuga bikomeje kwiyongera cyane aho na bo bisanga mu bandi kuko na bo ni abantu nkatwe twese.

Ni byiza cyane mu gihe uriye, kuba warya ibiryo birimo intungamubiri z'amoko yose ndetse haba ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, kuko bigira uruhare runini cyane mu mibereho yawe ya buri munsi.

Mu gihugu cy'u Rwanda, ni ho hantu akenshi na kenshi ukunze gusanga abavuzi cyangwa se abaganga b'inararibonye, bakora akazi kabo mu buryo bwiza kandi bakitayeho, bagakunze bagashyizeho n'umutima.

Abaganga bo mu gihugu cy'u rwanda usanga ari abantu bakora akazi kabo neza cyane kubera ko bahumuriza abarwayi bakabegera bakabaganiriza ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ibikenewe bya ngombwa kugira ngo badakomeza kwiheba mu buzima bwabo.

Igihugu cy'u Rwanda ni hamwe mu hantu usanga abantu bari mu zabukuru, abasaza muri make b'inararibonye bazi gusoma no kwandika kandi bize neza cyane mu gihe cyabo kubagana bakakugira inama.

Ni byiza kuba wakwipimisha indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, umutima kuko bituma umenya uko witwara ndetse n'uko wakongera imirimo ukora, haba siporo n'ibindi.

Umuryango ni kimwe mu kintu gituma umuntu uwo ari we wese yishima kuba afite abavandimwe, ababyeyi ndetse n'abandi bose. Rero ni byiza cyane kubana na wo.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane ahantu aho ariho hose, aho usanga buri wese abyemerewe kandi nta n'ikiguzi kinini bimusabye cyane ndetse nta n'umwanya munini, bakamukorera mu buryo bwihuse.

Umukino uzwi nka damu, ni imwe mu iryoha cyane n'abantu bayizi kuko bigufasha kuruhura mu mutwe mukanaganira n'umuntu muba muri kubikorana, rero ni byiza cyane.

Mu gihe umuntu arwaye cyangwa se yaba yafashwe n'ikindi kibazo runaka, ni byiza kunywera imiti ku gihe ndetse nuko yateganyijwe, kuko bituma wakira vuba kandi ukanasubira no mu kazi kawe bitakugoye.

Abasaza ndetse n'abandi bantu barwaye indwara z'imimitsi bagomba kwitabwaho cyane kuko baba bafite ubumuga bukomeye cyane. Rero ni ngombwa kugira ngo babone uko bagenda bafashwe n'abaganga ndetse n'abandi bantu abo aribo bose.

Mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku Isi yose, usanga cyane cyane abana bitabwaho kurusha abandi bantu abo aribo bose, kubera ko ari bo bubaka ibikorwaremezo kandi ari yo si y'ejo dutegereje.

Abasaza ndetse n'abandi bantu bageze mu zabukuru, bagomba kwitabwaho cyane mu bijyanye n'ubuvuzi kuko ari abantu akenshi na kenshi abasirikare b'umubiri wabo baba baragiye bacika intege rero ni ngombwa ko bavurirwa ku gihe.

Urugo rurimo umusaza n'umukecuru usanga ari abantu akenshi na kenshi baba bishimye cyane kuko baba bafite ibyo kurya ndetse na buri kimwe cyose batakibura rero ni byiza kubana mu mahoro kandi mwishimye mu buzima bwanyu.

Ubuvuzi bukorerwa abantu bageze mu zabukuru, buba butandukanye n'ubw'abandi bato, kuko abakuru baba bagomba kugororerwa imitsi kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri. Rero ni byiza ko bakora siporo.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri zimwe na zimwe cyane cyane nko ku bagore iy'inkondo y'umura ndetse n'iz'ibere, rero buri wese agomba kubigira ibye mu kuba yakwirinda.

Bamwe mu rubyiruko bazwiho nk'abakoreraranabushake bakora akazi kabo neza kandi bitonze bashishikariza abaturarwanda kwirinda indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zabatera.

Mu buvuzi bwo muri iki gihe, abantu bamwe na bamwe, bagenda bakora ubushakashatsi ndetse banasesengura neza icyakorwa kugira ngo bukomeze gutera imbere, na buri muturage agende abugerwaho nk'uko bikwiye.

Imiti dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi twivura indwara zitandukanye; ikorwa mu bimera duhinga kandi akenshi na kenshi duhora ducaho cyane; ni byiza rero kubibungabunga kuko birimo umuti.

Imwe muri Minisiteri igira uruhare runini cyane mu bijyanye n'imibereho myiza y'abanyarwanda ni iy'ubuzima, kuko baha buri gace kose ibikorwaremezo bijyanye no kwivuza kugira ngo batabangamirwa.

Ubuhinzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi byo hanze bukomeje kugenda butera imbere cyane, kuko butanga ibyatsi ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kuvanwamo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Bamwe mu baminisitiri ndetse n'abayobozi bashinzwe mu bijyanye n'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, usanga ari abantu b'intangarugero cyane, aho bakora akazi kabo neza kandi bagakunze mu buryo bwiza cyane bwihuse.

Mu nama zihuza abayobozi ndetse n'abaturage, cyane cyane abahagarariye abandi, usanga zigamije kwiga ku bibazo bigenda bigaragara, muri sosiyete, ndetse no kubikemura mu buryo bwiza.

Zimwe mu ndwara zishobora kubangamira ubuzima bw'umuntu bikaba byamugeza ku rupfu, harimo n'igituntu, rero ni byiza kwisuzumisha kugira ngo bamenye niba waba waranduye cyangwa utaranduye maze ubone uko ufata imiti mu gihe wanduye.

Abaganga b'abamama cyangwa se b'abadamu ndetse n'abakobwa ni bamwe mu bantu bazi kwita ku nshingano zabo ndetse n'ibyo bashinzwe n'akazi kabo bakagakora neza kandi bihuse, rero bagira uruhare runini mu iterambere rya buri munsi.

Abana ni bamwe mu bantu bakwiriye kwitabwaho cyane cyane guhera bakiri bato kugeza bakuze kugira ngo bazagirire umumaro igihugu cyababyaye ndetse n'ababyeyi babo muri rusange.

Mu Rwanda hari ibigo bimwe na bimwe bishinzwe kugira inama abantu bagiye bafite ibibazo by'uburwayi, ku buryo iyo wahuye n'ihungabana bagufasha kandi mu buryo bwihuse.

Mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo ndetse no ku isi yose muri rusange, cyane cyane nko mu bushinwa no mu buhinde. Usanga barateje imbere cyane uburyo bwa family planning, buzwi nko kuboneza urubyaro kugira ngo tubyare bake dushoboye kurera.

Mu gihe cya kovide cumi n'icyenda, abantu bamwe bagiye banga kwikingiza ariko abenshi barabikoze cyane kuko byari bifitiye umumaro igihugu ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange.

Mu gihe umuntu yaba aguye igihumure mu bandi bantu, si byiza ko mumutondeho uruziga mugomba kwigira ku ruhande, mukamuha akuka agahumeka ubundi abaganga babigenewe bakaza bakamufasha bakareba ikibazo yaba afite.

Isi yose muri rusange ndetse n'ibihugu, bigenda bikangurira abaturage babyo cyane cyane abagore, kwirinda kanseri zishobora kuba zabatera nk'iz'ibere ndetse n'iz'inkondo y'umura.

Iyo ushyize ku gipimo mpuzandengo cyangwa se kubaka uburyo serivisi zigenda zitangwa z'ubuzima usanga zaragiye ziyongera cyane ku kigero cyo hejuru, aho abaturage bashyikirizwa ibikorwaremezo ndetse n'imiti muri rusange.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cya RBC, ni hamwe mu hantu hakora mu buryo bwiza ndetse batanga n'inama ku mirire, indwara ndetse n'ibindi, ni intangarugero.

Mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, ni byiza ko wifashisha agakingirizo kuko kakurinda indwara zitandukanye, zishobora kuba zabamo SIDA ndetse n'inda zitateganijwe.

Muri iki gihe tugezemo haba mu gihugu cy'u Rwanda se cyangwa ahandi hose, ni byiza kubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kuko umuntu wese icyo umwe yashobora n'undi yagishobora. Ntitukajonjore rero ngo uyu ni umugore cyangwa uyu ni umuntu.

Mu gihe ugiye kuvura umurwayi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ni byiza ko wambara imyenda yabugenewe kugira ngo ataba arwaye indwara yakwanduza, na we ukaba yagufata.

Mu mikurire y'umwana ni byiza kumujyana ku munyabuzima cyangwa se kwa muganga bakamupima, uko agenda akura mu biro ndetse no mu gihagararo, kuko bigufasha kumenya ingano y'ibyo akeneye n'ibyo ugomba kumugabanyiriza.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, aho usanga hari imashini zikomeye cyane z'ikoranabuhanga, zifashishwa mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigenda bigaragara.

Bimwe mu bitaro akenshi na kenshi bigenda byakira abarwayi, usanga biteye imbere cyane, bifite amazi n'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwaremezo, byiza cyane bibafasha mu kwihutisha ubuvuzi.

Zimwe mu nyubako zikorera mu Rwanda, zikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'imiti, akenshi na kenshi ziba zifite isuku nyinshi cyane, aho usanga hateye amarangi y'umweru n'andi yose agaragara neza kuko ikintu cy'isuku cyateye imbere cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda iterambere mu bijyanye n'ubuvuzi rikomeje kwihuta cyane. Rero ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga bigenda byiyongera cyane, bituma serivisi zirushaho koroha ndetse no kwihuta.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga hari inyubako zimwe na zimwe zabugenewe cyane zisa neza kandi zifite isuku zifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye, rero ku baturage ni byiza cyane kurinda ibyo bikorwa remezo byagezweho.

Iyo ugiye kwa muganga ndetse no mu bindi byumba bavuriramo, uhasanga intebe nziza cyane n'ibitanda byiza cyane. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ko ubuvuzi bumaze gutera imbere, ku rwego ruri hejuru cyane.

Akenshi na kenshi iyo ugiye nko kwa muganga, mu ma banki ndetse n'ibindi biro ibyo ari byo byose, usanga hateyemo udutebe abantu baje gusaba serivisi bagomba kuba bicayeho bategereje kugira ngo batananirwa.

Ibitaro bya kabgayi ni hamwe mu hantu hakira abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye nk'iby'amaso ndetse n'izindi ndwara zigenda zigaragara ku bantu runaka batuye mu bice bitandukanye.

Ibitaro bimwe na bimwe byo mu gihugu cy'u Rwanda usanga byubatse ahantu heza, bisa neza ndetse bikeye cyane ku buryo buri wese yakwishimira kuba yajya kwakiraho serivisi ndetse no kuba yakwivurizayo.

Zimwe mu nyubako zifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi, usanga ari nziza cyane, zaragiye zubakwa na leta kugira ngo abaturage begerezwe ibyo bikorwaremezo kandi bahabwe serivisi zibanogeye.

Mu gihugu cy'u Rwanda iterambere rimaze kwiyongera cyane ku kigero cyo hejuru, aho usanga ubuvuzi bwaragiye butera imbere umunsi ku munsi, cyane cyane nko mu nyubako bakoreramo zifite isuku kandi zimeze neza, ku buryo ubwo aribwo bwose.

Muri iki gihe kwa muganga ndetse n'ahandi hose bavurira nko mu mafarumasi, usanga inzu z'ababyeyi, zizwi nka materinite ziri ukwazo kuko habera ibikorwa byo kubyaza n'ibindi.

Iyo winjiye mu bitaro utabisobanukiwe neza, usanga ari ahantu h'amayobera kubera ko haba hari imashini zitandukanye, utapfa kumenya.

Ku mihanda imwe n'imwe aho ugenda unyura, ugenda uhasanga ibyapa bitandukanye bishobora kuba bikurangira icyo ahantu runaka bakora, rero ni byiza gusoma mu gihe uri kujya ahantu kugira ngo umenye neza icyo ukeneye.

Mu mavuriro, usanga ari ahantu heza cyane hasa neza hateye amarange meza, ni bimwe mu bigaragaza ko ubu buvuzi bukomeje gutera imbere cyane kuko bugiye bufite ibikorwa remezo byiza.

Zimwe mu mashini zifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi, usanga ari nini cyane ku buryo n'abaganga baba bazikoresha, ari inzobere baba barabihuguriwe igihe kinini, kuko ushobora kubikora nabi bikaba byahitana ubuzima bw'umuntu.

Mu mahoteri ndetse n'ahandi hantu basohokera usanga hari udute twiza twicaye dutonze umurongo ku buryo muhicara mukaganira uko mwaba mungana kose.

Abaganga cyangwa se abandi bantu bose bakora mu bintu bijyanye n'ubuvuzi, usanga ari abantu bakora akazi gakomeye cyane, kuko batabara ubuzima bw'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu nyubako zimwe na zimwe zikora ibijyanye n'ubuvuzi, usanga zifite isuku nyinshi cyane, aho abapuranto cyangwag se abashinzwe kuhasukura bagenda batora buri kanda kose uko kaba kangana, gashobora kuhateza icyasha.

Ni byiza cyane mu gihe ufite abana bakiri bato kubajyana mu myidagaduro bakajya ku myicundo bakicunda bakarya umunyenga ndetse bibongerera ubumenyi mu buzima bwabo bwa buri munsi n'imikurire yabo.

Inyubako zimwe na zimwe zikora ibijyanye n'ubuvuzi, ni byiza ko zirangwa n'amajaride, aho abarwayi bashobora kuba bakwicara bakaruhuka bagafata agacucu ndetse bakanaharyama kugira ngo bamererwe neza.

Amavuriro yo mu gihugu cy'u Rwanda, kenshi na kesha usanga agenda yubakwa, ahantu heza cyane hari ibikorwa remezo, ku buryo abarwayi bahagera mu buryo bworoheje kandi butagoranye. Rero ni byiza kuyakwirakwiza ahantu hose, kugira ngo buri wese, agire uruhare rwo kwivuza.

Inyubako zimwe na zimwe zifashishwa mu buvuzi, usanga ari nziza cyane. Nk'urugero hari nk'iri i Masaka. Irakeye cyane kandi yakira n'abarwayi benshi cyane.

Amavuriro usanga ari zimwe mu nyubako zubatse neza cyane, aho aba afite ama parikingi y'imodoka, aho abaganga bicara ndetse n'aho bakirira abarwayi, kandi hafite isuku hameze neza, hariho igipangu ndetse n'utujaride twiza cyane.

Mu bitaro bimwe na bimwe byo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze usanga harimo imashini zimwe na zimwe z'ingenzi cyane zifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi rero ni byiza kuzikoresha neza kandi tukitwararika.

Ibitaro ndetse n'ahandi hantu hose hatangwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, usanga ari ahantu heza cyane hateye amarangi meza kandi hanagaragara isuku nyinshi kuko niho ubuzima bw'abantu buba bushingiye.

Ubuvuzi bw'amaso bukomeje gutera imbere cyane aho mu gihugu cy'u Rwanda usanga ibigo nderabuzima byinshi, bikora icyo gikorwa kandi ku buryo bwiza cyane, ni byiza rero kubagana bakaba babigufashamo.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu turere hafi ya twose no mu mirenge yose, usanga hakomeje kubakwa ibikorwaremezo bijyanye n'ubuvuzi, rero iterambere rikomeje kugenda ku muvuduko mwinshi cyane.

Abantu bageze mu izabukuru ni byiza ko bahora bisuzumisha uko imibiri yabo ihagaze, kugira ngo niba hari ikibazo gishobora kuba cyabatatse gikosorwe hakiri kare kuko iyo bitinze bigira ingaruka.

Amaraso ni kimwe mu miti ifite agaciro gahambaye cyane kuko abarwayi benshi cyane baba bayakeneye, rero ni byiza ko abikwa ahantu habugenewe kugira ngo atangirika.

Ibigo nderabuzima bimwe na bimwe bigenda bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda usanga bifite isuku cyane cyane haba mu nzu ndetse no hanze muri rusange rero ni byiza gukomeza gukumira ibyo bintu byagezweho.

Mu Rwanda ni kimwe mu bihugu nabonye byita ku barwayi cyane, ku buryo buri kanya bahora bamureba uko amerewe ndetse n'ibyo yaba akeneye, ugasanga nyine amerewe neza cyane.

Kwa muganga, mu bice bimwe na bimwe uhasanga imashini nini cyane zifite agaciro gahambaye. Ni byiza rero no kuzibungabunga kuko ziba zatwaye amafaranga menshi cyane kandi utanayitayeho neza ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hamaze kugaragara iterambere rihambaye cyane mu buvuzi. Aho usanga imashini zimwe zikomeye cyane zifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Rero ni ngombwa gusigasira ibyagezweho.

Inzu zizwi nka materineti, ni iz'ababyeyi aho babyarira ndetse bahabwa n'izindi serivisi zitandukanye, harimo nko gukingiza abana n'ibindi bikorwa bijyanye na byo, ni byiza rero kwitabira.

Mu gihugu cy'u Rwanda usanga hari inzu nziza cyane zubatse mu buryo bwiza za etage ndetse aho abayobozi bamwe na bamwe bagenda bakorera imirimo yabo n'ibyo bashinzwe.

Ubuvuzi bw'iki gihe bukomeje gutera imbere cyane. Aho usanga umurwayi arwariye mu bitaro, acometseho imashini zihambaye zimufasha kuba zatembereza amaraso ndetse no kumuha umwuka n'ibindi bikorwa bihambaye cyane bitandukanye.

Bimwe mu bintu bigaragaza ko ubuvuzi bw'ahantu runaka buteye imbere, harimo ibikoresho bifashisha, rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite ibintu byinshi cyane bigaragaza uburyo bw'imikorere myiza y'ibijyanye n'ubuvuzi.

Mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bamwe na bamwe bagenda bihangira imirimo yo gushinga ibigo bicuruza imiti cyangwa bivura abantu runaka, rero bagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu kuko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye.

Ubuvuzi bw'iki gihe bwagiye butera imbere cyane, aho umurwayi ashobora kurwara bakaba bamushyira ku mashini zishobora kuba zatuma umubiriwe ukomeza gukora kandi yari yameze nk'aho yapfuye.

Mu karere ka Huye ahazwi cyane cyane nk'i Butare, hari ibitaro bikomeye cyane byigisha abanyeshuri ba kaminuza ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'uko basigasira ubuzima bw'abantu.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibikorwaremezo bikomeje gutera imbere cyane ku muvuduko munini, aho usanga amavuriro yubatse neza mu buryo bugezweho cyane, ateye amarangi, afite n'isuku, biba ari byiza cyane rwose.

Mu bitaro bimwe na bimwe bikomeye biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, usanga harimo amacupa manini atanga umwuka ku barwayi bafite ibibazo by'ubuhumekero kugira ngo bakomeze guhumeka kandi banabeho neza.

Kimwe mu gikoresho kizwi nka microscopy, gifite ubudahangarwa bwo gutubura utuntu dutoya tukaba binini cyane kugira ngo basuzume indwara.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere twose, ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane ku buryo bwihuse, aho usanga hari imashini zikoranye ubuhanga, zifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye.

Mu gihe umurwayi arwariye kwa muganga, cyangwa se ari mu bitaro muri make. Ni byiza ko yitabwaho kandi agakurikiranwa isaha ku isaha, kugira ngo barebe aho uburwayi bwe bugeze, n'ikibura, n'imiti akeneye.

Inyubako zimwe na zimwe zijyanye n'ubuvuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, usanga zubatse neza cyane aho abarwayi bashobora kuba batanyagirwa cyangwa ngo bagire ikindi kibazo aho bari hose.

Ubuvuzi bwo mu gihugu cy'u rwanda bukomeje gutera imbere cyane; aho iyo ugiye mu bitaro byinshi usangamo amamashini ahambaye yifashishwa mu gukora amavuriro atandukanye.

Bamwe mu bantu bafite ubumuga, haba ubw'amaguru, amaboko ndetse n'ibindi bice by'umubiri, ni byiza ko bitabwaho cyane, bagafatwa nk'abantu nk'abandi kuko iyo bashyizwe ku ruhande bibagiraho ingaruka nk'ihungabana.

Mu gihugu cy'u Rwanda cyateye imbere cyane kuko hari ibyumba byinshi bikorerwamo amasiporo, cyane cyane nk'amagare ushobora kujyamo ukanyonga ndetse n'ama ariteri ushobora guterura kugira ngo wigorore neza wongere umere...

Muri jimunaze ni ahantu heza cyane bakorera imyitozo ngororamubiri kugira ngo, birinde indwara zitandukanye zandura, haba nk'imivuduko, umutima ndetse n'izindi.

Mu gihugu cy'u Rwanda ni hamwe usanga abantu b'abakoranabushake bitabira igikorwa cyo gutanga amaraso. Rero ni byiza cyane kubikora kuko bitabara indembe nyinshi cyane.

Mu gihe ukora mu biro runaka byo kwa muganga cyangwa se ushinzwe ikintu icyo ari cyo cyose, ni byiza kugikorana ubwitonzi. Kuko ibikoresho byaho birahenda kandi bishobora no gutuma wica ubuzima bw'umuntu.

Ibyumba by'amaraboratwari kwa muganga, usanga ari inzu ziri ku ruhande zikorerwamo n'abantu b'ingenzi babyize, aho bagusuzumira ndetse bakanafata ibimenyetso by'indwara zose waba urwaye.

Ibitaro bimwe na bimwe byakira abarwayi, akenshi na kenshi usanga bifite isuku ihambaye cyane, ndetse binasa neza ku buryo buri muntu wese yumva yakwishimira kuba yajya kwaka serivisi, rero ni byiza kubungabunga ibyo bikorwa remezo.

Ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro, ni bimwe mu bikorwa remezo bikomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko usanga byubatse neza kandi bitanga serivise zihuse.

Abayobozi b'ibitaro ndetse n'abandi bagiye bakuriye ibyo ngibyo, usanga akenshi na kenshi bagenda bifotoza bagaragaza umurimo mwiza bagenda bakorera igihugu cyabo kandi byo ni intangarugero.

Mu gihugu cy'u Rwanda muri buri karere, ugenda uhasanga ibigo byako bizwi nka hopitare, rero akenshi na kenshi niho bajyana abarwayi baba bakomerewe kugira ngo bafashwe mu buvuzi bwiza.

Mu nzu zo mu bigo nderabuzima bimwe na bimwe, kenshi na kenshi usanga harimo amashusho atandukanye bitewe n'ibikorwa bihakorerwa. Nk'urugero ahantu babagira, haba hatandukanye n'aho basuzumira kubera ko ari ngombwa.

Salo yawe igomba kuba iteguye neza cyane, irimo intebe nziza z'ibiti ndetse zirimo n'imisego kuburyo uhageze wese ashobora kumva anyuzwe n'uko hameze.

Kwa muganga kenshi na kenshi usanga hateraniye abantu benshi bakeneye serivisi kuko abarwayi bakomeza bagenda biyongera, rero ni byiza kubakirana urugwiro kandi nturangare mu gihe ari byo ushinzwe.

Mu gihe umurwayi arwaye ni byiza ko yitabwaho cyane kandi agakurikiranwa mu buryo ubwo aribwo bwose kuko iyo adakurikiranwe bishobora gutuma agira ingaruka cyangwa indwara ikamukomerana.

Amaraboratwari ni hamwe mu nzu z'ingenzi zikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'imiti yazivura, rero ni byiza kuhabungabunga kuko hadufatiye runini.

Bimwe mu bigaragaza ko igihugu giteye imbere kandi gikomeje cyane ni ibikorwa bikorerwa mu buvuzi rero haba harimo nk'amamashini atandukanye akora ibintu bitanu.

Igihugu cyacu, ubuvuzi bukomeje kugenda butera imbere cyane ku muvuduko wo hejuru, aho usanga hari imashini zimwe na zimwe zabugenewe, zigenda zifasha abarwaye indwara zitandukanye kandi zikomeye.

Ibigo nderabuzima byo mu Rwanda, usanga ari byiza cyane, bitanga serivisi zihuse, aho umurwayi ajya kwivuza, bagahita bamuvura ako kanya ntabyo kurindira gutegereza umwanya munini cyane cyangwa gutonda umurongo.

Mu gihe hagaragaye ibyorezo bigiye bikomeye nka Mabaga, nka kovid cumi n'icyenda ndetse n'ibindi byose, ni byiza ko abaganga bambara bakikwiza kugira ngo basuzume abarwayi batanduye.

Mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kuba iterambere rihambaye cyane, kubera ko nk'ubungu mu bijyanye n'ubuvuzi usanga ibigo byinshi bigira inama ku bantu barwaye kanseri ndetse bikanazivura kandi mu buryo bwiza.

Igihe cy'inama cyangwa se muri gufata amabwiriza ajyanye n'ibijyanye n'ubwivuzi, ni byiza gutuza mugatega amatwi mwese mukumva icy'ingenzi kuko iyo mudatega amatwi mushobora kugira ikibazo.

Kwita ku murwayi ni kimwe mu gikorwa gishobora kongerera umurwayi iminsi yo kubaho kuko na bituma yishima akumva ko na we ari umuntu nk'abandi kandi ko atatereranywe, yitaweho cyane.

Sangwa polyclinic ni ibitaro biherereye mu karere ka Huye byigenga bivura abarwayi abo aribo bose, rero niba ushaka kwivuza barakwakira ni karibo bagufashe.

Ahantu hambere akenshi na kenshi usanga hafite isuku haba mu gihugu ndetse n'ahandi hose, usanga ari kwa muganga kuko inzu zaho ziba ziteye amarangi meza kandi zinasa neza.

Mu gihe cya Covid, abayobozi ndetse n'abaturage bashishikarizwaga kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde kuyikwirakwiza kandi bagasigamo n'intera ya metero, hagati y'umuntu n'undi.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane mu buryo umuntu wese atatekereza, kubera ko imashini nyinshi cyane ziragurwa kandi zihenze zifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda, hari uruganda rw'amazi meza cyane yo kunywa asikuye kandi y'urubogobogo, aho nta handi ni Nile, niba uyashaka wagerayo bakayaguha rwose ku giciro cyiza cyane.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaganga cyangwa se abandi bantu bashaka kwisuzuma mu gihe bakora siporo, usanga harimo imikasi, amatesiteri ndetse n'ibindi bintu byinshi bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu kuvura umuntu wagize ikibazo cyo guhinyagara, cyangwa se yavunitse igufa ryikanze. Ni byiza ko umugorora ukoresheje intoki, cyangwa se ugakora mu buryo bwa massage kugira ngo urambure imitsi yiwe.

Mu gihe urimo gukora siporo wowe n'uwo mukundana cyangwase undi uwo ari we wese, ni byiza kwitwaza icupa ryamazi kugira ngo nugira inyota uze kunywa, ariko ni bibi kuba wayimenaho kuko bishobora kukugiraho ingaruka.

Abasiporutifu cyangwa abantu bakora siporo babigize umwuga usanga ari bamwe mu bantu baba bafite umubiri ukomeye, uruhu rwiza ndetse nta n'indwara zishobora kuba zabatera.

Urimo gukora siporo ni byiza cyane kuba wishyize compiyuta imbere yawe ikwereka uburyo bwiza bwo kuzikora ndetse no kuba wabikorera mu gihe cya nyacyo cyagenwe nta gutinda.

Mu gihe waba ugize ikibazo cyo gukomereka cyangwa se kuvunika, ni byiza ko hafi aho niba hari agapamba waba upfutseho, kugira ngo wirinde kuba wava amaraso menshi cyane, kandi ugakoresha agafite isuku mu buryo bugaragara.

Burankare ni kimwe mu gikoresho kifashishwa n'abaganga batwara abarwayi babavana ahantu bamwe babajyana ahandi, mu gihe baba bagize ibibazo bitandukanye cyane cyane nko kubakinnyi kirifashishwa cyane kuko bakunda kuvunika bari mu mukino.

Ubuzima bw'umwana ni kimwe mu kintu kigomba kwitabwaho cyane, kuko abana nibo Rwanda rw'ejo ndetse ninaba bayobozi bacu b'igihe kizaza, rero batitaweho nta terambere twaba dufite.

Gukora siporo mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, bigira uruhare runini cyane mu kurinda indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zamwataka kandi zikaba zamugiraho n'ingaruka, rero umuntu yakayikoze buri munsi kugira ngo yirinde ibyo bibi byose.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza cyane kunywa amazi pe! Kuko agira uruhare runini mu mitembere y'amaraso, mu gutuma ugira uruhu rubobereye ndetse no gutuma igogora rigenda neza.

Imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo ni bimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze kandi akaba anagororotse aho ari ho hose, cyane cyane ku bakobwa rero birabafasha cyane mu kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Gukora siporo mu buryo bwa teritike cyangwa kwiruka n'amaguru, ni bimwe mu bintu bigira uruhare runini mu kurambura imitsi ndetse no gutembera neza kw'amaraso bigatuma wubaka umubiri wawe neza.

Mu kibuga mu mukino uzwi nk'uw'amaguru kenshi na kenshi amakipe runaka usanga afite abaganga baba bashinzwe kwita ku bakinnyi, rero iyo umwe agize ikibazo bazana ubuvuzi bwihuse bw'ibanze bakabavura.

Mu gihe wavunitse mu ivi cyangwa se ukuguru, ni byiza ko ugana kwa muganga bakakuvura, bagakurikirana imvune yawe kugira ngo itakugiraho ibibazo bikomeye cyane.

Ku bantu bakora siporo cyane kubera ko baba batakaje ingufu nyinshi z'umubiri, rero ni byiza kunywa amazi kuko atuma bongera kugira itoto kandi agafasha n'amaraso mu gutembera neza mu mubiri tudasize n'igogora.

Siporo zo kugorora amaguru, ni byiza kuzikora mu gihe cya mugitondo kuko bituma amaraso atembera mu mubiri neza, kandi bikakurinda n'amavunane mu gihe uri kazi kawe.

Igikorwa cyo gukorera masage umuntu. Ni uburyo umukandakanda, ukagenda umugorora ndetse unamuramburira imitsi y'iwe yose kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri.

Mu byumba bakorera muri siporo kenshi na kenshi usanga ari ahantu heza cyane hafite isuku, aho buri muntu wese yakwifuza kujya, niba wifuza kwigorora cyangwa kugira ubuzima bwiza ni byiza kujyayo kuko bigufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zidakira.

Zimwe mu mashini zifashishwa kwa muganga mu kuvura indwara zitandukanye, usanga zihenze cyane kuko zikora akazi gahambaye nko gukiza indwara ndetse no gusuzuma.

Kunywa amazi mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni byiza cyane kuko agira uruhare runini mu igogora ryawe ndetse no kukurinda indwara zimwe na zimwe zishobora guterwa no kuyabura.

Kunywa amazi ni kimwe mu gikorwa cyiza cyane, kigira uruhare mu buzima bw'umuntu kubera ko afasha mu igogora ry'ibiryo, umuntu aba yariye bikagenda neza ndetse bikanatuma atarwara umwuma.

Mu Gihugu cy'u Rwanda mu duce twinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali uhasanga ubuvuzi buzwi ku izina rya physiotherapy. Aho bakusuzuma imikaya, imitsi, ndetse n'ibindi bice by'umubiri uko bikora, basanga hari igifite ikibazo bakaba bagukorera ubuvuzi hifashishije massage ndetse n'ubundi buryo.

Ikiganza cy'umuntu ni kimwe mu gice cy'umubiri gifite uruhare runini cyane nko mu gufata, mu kwakira ndetse no gusuhuza no gukora ibindi bikorwa bitandukanye umuntu akoresha amaboko.

Kugira ngo bamenye imikurire y'umwana muri rusange, agomba gusuzumwa ibice byiwe byose by'umubiri ku bamenye ko nta kibazo afite, nk'amenyo, uko amaraso atera, ndetse n'imikurire.

Mu gihe urimo gukora siporo ni byiza ko ugorora haba mu mavi ndetse no mu nkokora kuri buri gice cyawe cyose cy'umubiri ukumva ko umeze neza cyane ntakibazo na kimwe ufite.

Mu gihe umaze gukora siporo nko kwiruka, guterura ibyuma, pompaje, ndetse n'izindi izo arizo zose. Ni byiza kuba wafata ibiryo birimo intungamubiri higanjemo ibitera imbaraga, ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo ubuzima bwawe bugire bumere neza.

Mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu rugo, mu kazi cyangwa se ahandi hose, ni byiza kunywa amazi y'urubogobogo kandi ukayafata ku gihe ndetse neza ndetse no ku gipimo cyabugenewe.

Ku ruhu cyangwa se ikindi gice cy'umubiri icyo ari cyo cyose, ntabwo ari byiza kwiteraho tatuwaje kubera ko bishobora gutuma urwara indwara zitandukanye ku mubiri wawe.

Mu gihe waba urimo gukora siporo, waba uri mu kazi gasanzwe, ukaba wagira ikibazo cyo kuba wakebwa n'akantu runaka, ni byiza kuzana igitambaro cyiza gisukuye ukaba uhapfutse kugira ngo hadakomeza kuva amaraso cyane.

Mu gihe uri kugorora mu mavi hawe, ni byiza ko uhagarara neza urambuye ukuguru, warangiza ukazamura ukundi gusigaye, kandi ntudigadige kugira ngo ugume wemye.

Ubu ubuvuzi bwagiye butera imbere. Abantu akenshi na kenshi bagize indwara runaka cyangwa bahuye n'impanuka bakaba babura amaguru yabo, bajyiye bababonera insimburangingo nziza kandi zabafasha igihe cyose.

Ku bantu bashobora kuba barwaye nka parariza cyangwa se akaguru kabo karavunitse, ni ngombwa kugira ngo bimenyereze kugenda bashyirwe mu mashini ibafasha kukagorora neza.

Iyo ugiye kwa muganga kwivuza, uhasanga ibitanda ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye, bitewe n'uburyo bashaka kukuvuramo, rero ufata kimwe muri icyo kikaba ari cyo ukoresha kugira ngo byorohereze umuganga.

Kurya ibiryo by'amoko yose, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibiri indwara nk'imbuto n'imboga inyama ndetse n'ibindi. Ni ngombwa cyane mu buzima bwa buri munsi kuko bituma tumera neza.

Mu gihe uri gukora siporo ni byiza ko wirambura ukagorora ibice byawe byose by'umubiri harimo amaboko, amaguru, umugongo neza cyane kuko bigufasha kumera neza.

Mu gihe waba umaze gukora siporo ukumva mu ivi harimo kukurya ni byiza ko wahakanda ukoresheje intoki zawe ndetse n'amazi ashyushye n'igitambaro ugenda ugitose.

Mu gihe ugiye kunywa amazi, ni byiza kubanza kuyapima, kugira ngo udafata arengeje igipimo rero ukayashyira mu kirahure cyabugenewe ukabikora mu buryo bufite isuku.

Metero ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gupima abana ko bafite imirire myiza, ni ingenzi cyane ndetse no kubaha imbuto n'imboga bakanywa n'amazi ahagije kugira ngo bakomeze gukura neza.

Gukora siporo ugorora imitsi ndetse n'amagufa ni byiza cyane mu gutuma ugira umubiri ukomeye kandi umeze neza, utagira indwara, rero buri wese yagashishikariye kubikora kuko bifite umumaro.

Igihe waba wavunitse ikirenge, akaboko, ukuguru se cyangwa ikindi gice cy'umubiri cyose, ni byiza kugana kwa muganga cyangwa ku ivuriro rikwegereye bakaba bakuvura kuko ni bo baba bazi neza uko bagerageza iyo ndwara.

urubyiruko, abasaza, abakecuru, abana ndetse ikigero waba urimo cyose, ni byiza gutangira kwitoza gukora siporo kuko bigira uruhare runini mu mibereho yawe ya buri munsi.

Kwa muganga ni ho hantu honyine usanga udukapu twabugenewe dufite uruhare rwo kubika ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, rero ni byiza kutwitaho cyane.

Mu gihe umaze gukora siporo wumva uruhutse utekanye, ni byiza kuba wanywa amazi kugira ngo agire uruhare runini mubuzima bwawe ndetse n'imitembere y'amaso yawe.

Mu gihe ukoze siporo urimo kwiruka ukumva mu mavi hari kukurya ni byiza ko usubira mu rugo ukisiga ka pomade wakumva n'ubundi bikomeje gukomera ukajya kwa muganga bakareba ikibazo igufwa ryawe rishobora kuba ryageze.

Mu gihe wumva waba ufite ikibazo mu mutwe cyangwa se wumva hari kukurya, ni byiza kujya kwisuzumisha ukajya mu cyuma, bakareba uko hameze kugira ngo barebe ibyo waba wikoreye.

Mu buzima bwacu, ni byiza ko ku mafunguro turya haboneka imbuto n'imboga, kuko bigira uruhare runini mu kurinda indwara zitandukanye zishobora kwandura.

Mugihe uvuye muri siporo cyangwa se kwigorora ukumva unaniwe, ni byiza ko waba ufite nk'umuganga yakwitaho akaba yagupfuka akagushyiriraho bande, kugira ngo imitsi yongere kugororoka neza.

Imiti ni bimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kubikwa ahantu habugenewe kandi heza kugira ngo bitangirika mu gihe gito. Rero tugomba kubisigasira kuko bigira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyo ufite indwara ishobora kuba iri mu mubiri mo imbere, ni byiza ko ujya kwa muganga, bakaba bagusuzuma bakoresheje imashini zimwe na zimwe zabugenewe, zishinzwe kurebamo n'aho izindi zitabona.

Mu gihe umaze gukora siporo nko kwiruka ndetse n'ibindi byose, ni byiza cyane kuba wakwigorora ukarambura amaboko n'amaguru, kugira ngo imitsi igororoke neza amaraso abone gutembera mu mubiri.

Siporo cyangwa se kunanura amakuru, ni bimwe mu bikorwa bikundwa n'abantu benshi cyane kuko akenshi na kenshi usanga harimo n'amafaranga, nk'urugero umukino wa marato ukorwa basiganwa, ubaye uwa mbere arahembwa.

Niba wifuza kuba wagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ukirinda indwara zimwe na zimwe zishobora kukwangiza, nakugira inama kuba wakora siporo buri gitondo na buri mugoroba ndetse ukanigorora ku buryo ubwo ari bwo bwose.

Bimwe mu bimenyetso bigenda bigaragaza ibikorwa abantu runaka bagenda bakora, usanga biri ahantu henshi cyane, nk'urugero umusaraba ugaragaza kuruwa ruje, abashinzwe gutabara, gutabara ndetse no gufasha indembe.

Mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, ni byiza cyane kunywa amazi mu gitondo, saa sita na nimugoroba kandi ugafata hagati ya litiro ku munsi cyangwa ebyiri kuko ari ibintu by'ingenzi.

Mu gihe wihaye gukora siporo cyangwa se usanzwe uri umusiporutifu, ni byiza cyane ko ujya uhora witoza kugira ngo utazacika intege bigatuma umubiri wawe wongera kumera nabi cyangwa ugafatwa n'izindi ndwara zitandukanye.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga kenshi na kenshi usanga bigura akayabo k'amafaranga menshi cyane, nk'imashini zimwe na zimwe ziba zihenze cyane ku buryo nta muntu wayigurira.

Bimwe mu bikoresho bizwi nka burankari, bifashisha mu gutwara abarwayi cyane cyane bikoreshwa mu mikino, aho iyo umukinnyi agize ikibazo cy'imvune bamutwaraho kugira ngo bajye kumuvurira ku ruhande.

Ubu iterambere rirakomeje cyane kwihuta, aho iyo urwaye nk'akaguru, waravunitse cyangwa se baragakase ushobora kubona inyunganirangingo isimbura ako bakuyeho kandi ukaguma umeze neza ntakibazo.

Gukora siporo ni bimwe mu bikorwa bikunda gukorwa n'abantu benshi cyane kuko bigira uruhare runini mu mibereho y'ubuzima bwiza bwa muntu. Rero bamwe bayikora bagorora amaguru, barambura imitsi kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri.

Gukora siporo ni igikorwa cyiza cyane mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kuko kimufasha kuba yagorora iminsitsi, kurambura amaboko n'amaguru ndetse no kumva amerewe neza mu buzima bwe busanzwe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ahantu ku musozi hirengeye cyangwa se ku mazi, usanga ari byiza cyane kubera ko haba hari amahumbezi, akayaga kaza kaguhuha neza, nawe ukigorora neza cyane.

Umwe mu bazwi nk'abakoranabushake ba croix rouge, usanga bagira uruhare runini cyane mu gutabara ubuzima bw'abantu kubera ko bafasha abarwayi ndetse n'inkomere ahantu aho ariho hose bakenewe kandi mu gihe cya nyacyo.

Mu gihe umaze gukora siporo ugishyushye utarabanza gukonja cyangwa kuruhuka muri macye, ntabwo ari byiza guhita wisukaho amazi kuko bishobora gutuma ugira ingaruka mbi mu mubiri wawe.

Imashini zifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi harimo nko gupima umuvuduko, uko umutima utera ndetse n'izindi ndwara zimwe na zimwe. Usanga zihenze cyane ku buryo ziba zigura amafaranga menshi cyane, rero ni byiza kuzibungabunga.

Kunywa amazi meza cyane y'urubugogo ni byiza cyane. Kuko bigira umumaro ndetse n'uruhare runini mu igogora, no gusohora imyanda imwe n'imwe, iba yagiye mu mubiri.

Mu gihe waba wagize ikibazo cy'imvune. Ni byiza ko ujya kwa muganga, ukamwereka impamvu yabiteye kugira ngo abone uburyo akuvura neza.

Imashini zimwe na zimwe zabugenewe zaba inini cyangwa se ntoya zikoreshwa mu mavuriro atandukanye, usanga ari iz'ingenzi cyane kuko zifashishwa mu gukiza ubuzima bw'abantu bashobora kuba bari mu kaga barembejwe n'indwara zikomeye.

Abasiporotifu cyangwa se abantu bagorora amaguru ndetse n'imitsi yabo bazinduka biruka, cyangwa se bajya mu byuma runaka. Ni ngombwa kunywa amazi cyane kuko agira uruhare runini mu mibereho yabo ya buri munsi.

Imbyino ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye na siporo, ni bimwe mu birinda abantu kuba barwara indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zidakira ndetse bakaganira n'ubuzima bwiza buzira umuze.

Mu gihe uri ahantu hashobora kuba hari imbeho cyangwa se uri muri siporo yo guterura akenshi na kenshi nk'amariteri, ni byiza ko wambara ga cyangwa se uturindantoki dushobora kukurinda kuba wakomereka mu kiganza.

Amazi ni kimwe mu bintu bisukika kigira uruhare runini cyane mu buzima bw'umuntu kubera ko umubiri wawe we byonyine ahanini ugizwe na yo. Rero ni byiza kuyanywa buri munsi kuko afite umumaro.

Gukora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu gikorwa cyiza cyane umuntu yakora kugira ngo yirinde indwara nyinshi cyane, zishobora kuba zandura ndetse n'izitandura rero...

Gukora siporo yo kugorora amagufwa ndetse n'imitsi, ni byiza ko wirambura wese kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri kandi bikurinde indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zatera ubudahangarwa bwawe.

Bimwe mu bikoresho bizwiho nka burankari byifashishwa mu gutwara abarwayi babakura ku ruhande rumwe babajyana ku rundi, cyane cyane nko mu kibuga mu gihe hari gukina amakipe runaka, umukinnyi akagira ikibazo ni zo zifashishwa.

Imwe mu miti izwi nk'imiti ya gakondo usanga ari myiza kuko iba ikozwe mu bimera gusa, nta binyabutabire biba birimo byaba byakwangiza ubuzima bwawe, ni byiza rero kuyikoresha mu gihe wumva urwaye.

Igihugu cy'u Rwanda mu duce tumwe na tumwe bagenda bahinga ibimera, ndetse n'ibindi byatsi byose bishobora kwifashishwa mu kubona imiti ivura indwara zigiye zitandukanye zishobora gutera abantu.

Mu Rwanda rwa kera ndetse n'urw'ubungubu, abanyarwanda ni bamwe mu bantu bazwiho ubuhanga bwo kuba bakwikorera imiti cyangwa bakwivura bakoresheje ibimera gakondo, rero ni byiza guteza imbere ubwo buvuzi kuko bugira uruhare runini mu buzima bw'abantu.

Bimwe mu bimera, usanga ahantu hamwe na hamwe, akenshi na kenshi biba bifite uruhare runini mu buvunzi bukoreshwa muri iki gihe kuko ari imiti ya Kinyarwanda cyangwa se imiti Gakondo yifashishwa.

Bimwe mu bimera akenshi na kenshi dusanga mu Gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu hose, biba biri mu bishanga, mu mashyamba, byifashishwa nk'imiti ya gakondo ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Bimwe mu biti bya kimeza dushobora gusanga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe, usanga akenshi na kenshi ari isoko y'imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ni byiza kwirinda kubitema cyangwa kuba twabitwika.

Imiti imwe n'imwe usanga ibikwa mu macupa, akenshi na kenshi usanga ari iyamazi kugira ngo itaba yameneka, ikangirika mu buryo bwihuse, rero ni byiza kuyitaho ukayibika aahantu habugenewe.

Imiti igomba kubikwa ahantu habugenewe kugira ngo itandura cyangwa se yangirike ibe yarangiza garanti kuko uyihaye umurwayi ishobora kumwica ndetse ikamugiraho n'ingaruka zikomeye cyane.

Mu Rwanda ni hamwe mu hantu akenshi na kenshi hakunze kugaragara abaturage ndetse n'abandi bantu bivura bakoresheje imiti ya gakondo, aho bashobora kuyisekura mu mu dusekuru cyangwa se bakaba bayihekenya bisanzwe.

Imiti gakondo, cyangwa se ikozwe mu bimera, usanga ari myiza cyane mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu kubera ko iyo ayinyweye bimutuma nta ngaruka mbi zishobora kumugiraho, mu bijyanye n'ubutabire ndetse n'ibindi byose.

Imwe mu miti ifatwa nk'imiti ya kera. Ni byiza kuyikoresha kuko igira uruhare runini mu kuvura. Kandi ikabi ikozwe mu bimera, ijana kujana. Niba ushaka kuyigura, wayibariza mu mafarumasi atandukanye.

Imiti ndetse n'amavuta amwe n'amwe avura indwara z'uruhu. Ni byiza kubibika mu macupa ndetse bigaterakwa ahantu habugenewe kuko bidakurikiranywe bishobora kuba byakwangirika.

Mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, ugenda usangamo ibiti byifashishwa nk'imiti ivura indwara zitandukanye, rero ni byiza kubibungabunga tukirinda kubitema no kubyangiza kuko bifite akamaro kanini mu buzima bwacu.

Inanasi, imineke, imbuto ndetse n'ibindi biribwa byose. Bigira uruhare runini cyane mu buzima bw'umuntu kuko akenshi na kenshi bikora nk'imiti ivura indwara zitandukanye.

Imwe mu miti ikozwe mu bimera akenshi na kenshi igenda ibikwa ahantu hatandukanye kandi hizewe ku buryo idahura n'ikibazo runaka kuko ari ingirakamaro mu buvuzi.

Abanyarwanda muri rusange ni bamwe mu bantu bazwiho kuba barahoze bivura ndetse na n'ubu bakaba bakibikora bifashishije imiti itabahinze gakondo bagenda bakora mu mashyamba, mu mirima ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Imiti yaba isukikwa cyangwa se ifunikwa ndetse ni bimwe mu bintu bigomba kwitabwaho cyane ugendeye ku ubibika kuko ubishyize ahantu habi bishobora kukwangiza ubuzima bw'umuntu runaka.

Mu Rwanda mu duce tumwe na tumwe nka Nyandungu ndetse n'ahandi hantu hari ibyatsi kimeza, usanga harimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi mu buryo bwihuse.

Imiti imwe n'imwe y'amazi, iva mu bimera ndetse n'ibindi bintu runaka. Kenshi na kenshi ikunda gushyirwa mu ducupa kuko ariho iba yizewe neza, cyane ko itameneka cyangwa ngo yangirizwe n'ibindi bintu.

Muri iki gihe. Imiti ikomeje kugira uruhare runini cyane mu kuvura abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye, usanga hari ikozwe mu bimera kuko ntabinyabutabire byinshi cyane biba birimo bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu.

Umuti wa gakondo uzwi nkumuravumba ni imwe mu yifashishwaga n'abanyarwanda ba kera ndetse n'ubungubu ukaba ugikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo cyane cyane nk'inkorora.

Umuravumba n'ibindi byatsi kimeza byari bizwi nk'imiti yo kuvura indwara zitandukanye, na n'ubu biracyakora ni ngombwa rero ngo tubisigasire kuko bifite amateka manini cyane mu gihugu cyacu.

Imwe mu miti gakondo yifashishwa kwa muganga ndetse n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, usanga igira uruhare runini mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigenda bigaragara mu mibereho y'umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Igiti kizwi nk'umuravumba kiri muri bimwe mu biti byakoreshejwe mu Rwanda rwa kera ndetse n'ubu ngubu birakoreshwa, rero kivura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, malariya ndetse n'ibindi.

Zimwe muri korugati nziza cyane, zisukura amenyo no mu kanwa hawe bikaharinda kugira umwuka mubi, usanga ziboneka ahantu henshi na henshi kuko zidahenda cyane.

Hari ibiryo bimwe na bimwe bigenda bivumburwa n'abahanga usanga byongera vitamine ku buryo umuntu wese abiriye agira igikuriro cyiza haba mu mutwe, mu gihagararo ndetse n'ibindi byose.

Bimwe mu biti bigenda bigaragara ahantu hamwe na hamwe, usanga bigira uruhare runini cyane mu kugaragara kw'imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye, rero ni byiza kubibungabunga kuko tubyangije ntabwo twazajya tubona ibidukiza indwara.

Imwe mu miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, haba iz'uruhu, iz'amenyo cyangwa se izindi zose, usanga akenshi ziri mu macupa no mu mashashi, rero babicururiza mu mafarumasi atandukanye mu gihugu, ni byiza ko wahagera ukayibaza kandi usanga imyinshi ikomoka ku bimera.

Amafarumasi ndetse n'abandi bantu bacuruza imiti, usanga ari bamwe mu bagira uruhare runini cyane mu mikorere y'abantu n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko babaha imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Muri iki gihe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kenshi na kenshi dukeneye kuba twakwifashisha imiti ikozwe mu bimera kuko igira uruhare runini cyane, mu buvuzi bwiza kandi bwihuse, rero wayibariza mu maforomasi aho ariho hose.

Zimwe muri forumile zifashishwa muri shimi iyo bari kwiga ibijyanye n'ubutabire, akenshi na kenshi usanga zihuza n'imiti ya Kinyarwanda dukoresha ya buri munsi mu kwivura mu ndwara zitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda, ibiti bimwe na bimwe bigiye bifite amababi meza yifashishwa nk'imiti ivura indwara zitandukanye, rero ni byiza kubisigasira tukabirinda kuba byatemwa cyangwa bigatwikwa mu gihe bifite umumaro.

Mu gihe wumva ubona ufite umubyibuho ukabije cyangwa se utangiye kwiyongera ibiro ku buryo burengeje, ni byiza kuba warya imbuto zirimo indimu amacunga ndetse n'izindi zagufasha kugabanya ubwo buremere bwawe.

Imwe mu miti iboneka higashishijwe ibyatsi usanga igira akamaro kanini cyane mu kuvura indwara zimwe na zimwe zishobora kuba zakwataka abantu zikabangizariza ubuzima bwabo ndetse n'imibereho ya buri munsi.

Imiti ishyirwa mu macupa yabugenewe ndetse atandukanye kugira ngo ibikwe neza kandi yitabweho. Rero ni bibi kuba watoragura buri kimwe cyose ukagenda uyishyiramo kuko bishobora guteza izindi ndwara zirenzeho.

Umuravumba, ni kimwe mu kimera gifite uruhare runini ndetse n'amateka menshi mu buvuzi bwa gakondo, aho basogokuruza bacu bawifashishaga mu kwivura indwara zimwe na zimwe, harimo nk'inkorora ndetse na malariya.

Imiti gakondo cyangwa se imiti ikozwe mu bimera, ni mwe muyigira uruhare mu kurinda ndetse no gukumira indwara zishobora kuba zakwandura, zitewe n'ibinyabutabire bimwe na bimwe.

Imiti yifashishwa mu buvuzi, ni byiza ko ishyirwa mu macupa ikabikwa ahantu habugenewe, kugira ngo itaba yakwangirika cyangwa se ikaba yakwangiza ubuzima bw'umuntu runaka mu gihe atayibonye.

Hari korogate zimwe na zimwe zigira uruhare mu kuvura abantu amenyo yanduye ndetse no gukiza indwara zitera kunuka mu kanwa. Ni byiza kuzikoresha kugira ngo wirinde kuba wabangamira abo muri kuganira.

Korogati ni kimwe mu gikoresho kiza cyane kigufasha gusukura amenyo yawe ndetse no mu kanwa bikakurinda impumuro mbi ishobora kubangamira bagenzi bawe mu gihe muri kuganira.

Bimwe mu bimera bigira uruhare runini mu buvuzi, ubisanga ahantu mu byatsi cyangwa se mu mirima runaka, rero ni byiza kubisigasira kuko bigira umumaro munini cyane.

Amwe mu mafarumasi cyangwa se mu maguriro y'imiti usanga hagira uruhare runini mu iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu, kuko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo no gufasha abaturage.

Mu Rwanda ni hamwe mu hantu hazwiho kwifashishwa imiti ya gakondo irimo iy'ibyatsi ndetse n'ibindi bimera, rero ni byiza kuyikoresha kuko igira ingaruka nziza mu mibiri yacu.

Ubuvuzi muri iki gihe bukomeje gutera imbere ndetse no kugira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko abantu bose babubonera ku gihe kandi bakanagira n'ubuzima buzira umuze.

Mu mashyamba ya kera ndetse n'ay'ubu ngubu ahantu hagiye hari ibihuru, akenshi na kenshi uhasanga imiti cyimeza yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, rero ni byiza kuyikoresha kuko itagira ingaruka mbi ku mibiri yacu.

Muri iki gihe cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni byiza gukoresha imiti ikoze mu bimera kuko igira uruhare runini mu gukiza ndetse no kwirukana indwara iyo ari yo yose waba urwaye.

Bimwe mu bimera bigenda biterwa ahantu runaka cyangwa byimeza nko mu bishanga, mu maparike ndetse n'igasozi. Usanga bigira uruhare runini cyane mu gutanga imiti yifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu Rwanda niho honyine ushobora gusanga imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi kandi yizewe cyane, rero abanyarwanda bayikoreshaga mu buryo bwo kwitabara none ubu ngubu yagiye itera imbere.

Hamwe mu madepo, inganda ndetse n'ahandi hantu habikwa inzoga, usanga zihari nyinshi cyane, aho abacuruzi bajya kuzikura ku giciro cyiza kitabahenze na bo bakazisubiza kuri detaye kugira ngo bagire icyo babonaho, banazigeze ku baturage mu buryo bwihuse.

Ubukerarugendo ni kimwe mu gikorwa cyinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu, aho abantu baba hanze bakaza kureba ibikorwa remezo, cyangwa se ibintu kimeza biri mu gihugu runaka.

Ahantu hamwe na hamwe ugenda uhasanga ibyatsi bitandukanye, rero akenshi na kenshi byifashishwa nk'imiti mu kuvura indwara nyinshi, ni byiza rero kubibungabunga kugira ngo bitangirika kuko bikiza ubuzima bwacu.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni hamwe mu duce tw'ingenzi ushobora kubona imiti myiza cyane ikomoka ku bimera kandi ivura indwara zigiye zitandukanye, rero niba ubikeneye wahajya mu mafarumasi bakaba baguha iyo...

Bimwe m'ibimera akenshi na kenshi bikunze kuvamo imiti usanga bigaragara ahantu hake cyane kubera ko ari iby'ingirakamaro no ku hantu biri ni byiza kuhabungabunga kugira ngo hatagira ikintu gishobora kuba cyaza kikabyangiza.

Ibimera ni bimwe mu bintu bifite uruhare runini mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kubera ko byifashishwa mu gutanga imvura tuba dukeneye mu gukuza ibiribwa n'amazi meza kandi ni byiza rero kubibungabunga.

Imiti imwe n'imwe yifashishwa mu buvuzi, akenshi na kenshi usanga ifite uruhare runini cyane mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu, nk'urugero amakara avura indwara zo mu nda ndetse n'iz'igifu.

Imiti ndetse n'amavuta ni bimwe mu bikoresho akenshi na kenshi bikunze kubikwa mu macupa meza cyane asukuye, kuko bigira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi rero ni ngombwa kubyitaho.

Abantu bamwe na bamwe bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bagenda bikorera ama business yo gucuruza imiti ijyanye n'ibikorerwa mu bimera, kuko ariyo igira uruhare runini cyane mu buvuzi.

Mu gihugu ndetse no ku isi hose hagiye hari ibyatsi byinshi by'amoko menshi ashobora kwifashishwa nk'umuti, urugero nk'imiravumba, imibirizi ndetse n'ibindi byinshi cyane, rero ni byiza kubirinda ntitukabyangize.

Bimwe m'ibimera bizwiho mu gukoreshwa nk'imiti yifashishwa mu gukumira indwara zitandukanye harimo igikakarubamba rero ni cyiza kuko kiravura ku buryo buhambaye cyane.

Mu buvuzi bumwe na bumwe butandukanye bw'indwara runaka, akenshi na kenshi bugenda buvurwa hakoreshejwe imiti gakondo kuko ari yo ituma bwihuta kandi bukanyura mu mucyo neza cyane nta ngaruka byateza.

Imiti gakondo cyangwa se ikorwa hifashishijwe ibimera, ni myiza cyane igira uruhare runini mu buvuzi bwa buri munsi kuko nta ngaruka igira ku buzima bw'umuntu cyangwa se ibindi bibazo ibyo ari byo byose.

Imwe mu miti cyangwa se mu mavuta agiye akozwe mu mavoka, agira uruhare runini cyane mu gusukura uruhu rw'umuntu wayisize kuko birurinda ibiheri n'izindi ndwara izo ari zo zose.

Kwa muganga mu mafarumasi ndetse n'ahandi hantu, usanga imiti imwe n'imwe iterekwa ahantu habugenewe, nko mu mafirigo ayifasha kuba ikonjeshejwe kugira ngo itaba yakwangirika cyangwa igata garante.

Imiti imwe n'imwe, ni byiza ko ibikwa ahantu habugenewe, aho abana badashobora kugira ngo babe bayikubaganya kuko baramutse bayigezeho bakayinywa cyangwa bakayikoresha ikindi kintu bishobora kwangiza ubuzima bwabo muri rusange.

Mu mashyamba ya kimeza nka Nyungwe ndetse n'ibindi bihuru ibyo ari byo byose, ni ho akeshi na kenshi ukunze gusanga imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi kandi butagira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu.

Mu igihugu cy'u Rwanda mu duce tumwe na tumwe ugenda usangamo imiti y’ibimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye rero abo banyarwanda ba kera yarabafashaga cyane ku buryo yababeraga ubukiro.

Ubucuruzi bw'imiti mu gihugu cy'u Rwanda bukomeje gutera imbere cyane. Aho hari amafarumasi manini cyane agenda ayigurisha mu bindi bice by'igihugu. Rero ni byiza kuyibungabunga kuko igira uruhare runini mu buzima bw'abaturage.

Ibimera bimwe na bimwe akenshi usanga ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, imiti, imitako cyangwa se ibyo kurya.